Abantu bakomeye cyane baturutse mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, harimo n'umupolisi w'u Rwanda, bahuriye hamwe mu nama yiga ku buryo bwiza bakwiye kwitaho kugira ngo bateze imbere abaturage.

Umugabo wambaye amadarubindi, akaba yambaye n'umupira w'amaboko magufi, ahagaze imbere aho ari kuvugira muri mikoro yigisha urubyiruko kumenya amateka y'Igihugu cyacu.

Inama y'umushyikirano yahuje abayobozi bakomeye mu nzego za leta mu bihugu by'Afurika y'Ububurasirazuba. Bahuriye ku meza y'ibiganiro baraganira, buri wese afite amazi yo kunywa. Imbere hakaba hari umushyitsi w'imena, aho ari kubasobanurira uburyo bwiza bakoranamo bagatera imbere.

Inama y'umushyikirano yahuje cyane cyane abakora mu nzego z'umutekano b'Abapolisi, buri wese aricaye akaba afite n'agacupa k'amazi, iruhande rwabo hakaba hari undi mugabo uhagaze w'umufotozi.

Abantu bahuriye mu nama y'umushyikirano baturutse impande zose, abiganjemo abayobozi mu nzego zo hejuru harimo n'umupolisi n'umusirikari aho baje kuganira ku buryo bwiza buteza imbere igihugu ndetse n'abagituye muri rusange.

Abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye, bahuriye hamwe mu nama y'umushyikirano aho bigaga ku iterambere ryabo, nyuma y'uko bari bamaze kuganira, bacuranze imiziki, barabyina, barishima.

Impeke y'ubunyobwa bakaba bayishyize mu keso bayitereka hanze, hakaba hari umugabo wambaye inkweto zifunze ndetse n'ipantaro y'ikoboyi aho ari kubyanika kugira ngo bisagaruke.

Uduti dutandatu. Tugiye dupfumuye imyenge ine ine, mu gihe hariho kamwe gapfumuye ebyiri akandi kakaba gapfumuye itanu. Ni uduti bisa naho ari amababi y'ikibunobono, dukoreshwa mu kuvuza ubuhuha.

Imyambi iri mu bwoko butandukanye, hari ifite amahembe manini, hari ifite agahembe k'ukwezi, hari isongoye cyane n'indi yose ikaba iri hamwe ku gati ibikwaho, zose bigaragaza umuco nyarwanda kuko zakoreshwaga mu gihe cya kera cy'abami.

Umubyeyi wakenyeye yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umutuku. Yateze urugori akaba apfukamye ku kirago, aho ari gusya amasaka, akoresheje urusyo nuko ifu ikajya imanuka igwa ku ikoma bashize ku nkoko.

Ku gikuta cyiza cyane kiriho amabara meza, hariho amacumu atondetse yose ahagaritse aho atondetse kuva kure rinini ujya ku rito uhereye mo hagati.

Abavuzi b'ingoma biganjemo abagore harimo umugabo umwe akaba ariwe uri kuzivuza abandi bagore bakaba bari gucurira, hari umugabo ufite mikoro n'amadarubindi akaba ari kuririmba bose bakaba bari kugaragaza umuco nyarwanda.

Umugore asokoje cyane. Akaba yakenyeye udutambaro mu mutwe tubiri tw'umweru. hakaba hariho utuntu tubiri tw'uduti dusa n'umweruro tugaragaza umuco nyarwanda.

Ni amacumu abiri arambitse hasi ateganye aho atandukaniye ku bunini ndetse n'uburebure, rimwe irasongoye, rifite inyuma hasa n'umutuku mu gihe irindi ridasongoye cyane, inyuma hakaba hasa n'umweru.

Abagabo ndetse n'abagore bari kubyina imbyino gakondo z'umuco nyarwanda, aho bari mu myiyereko bakaba bari gushimisha abitabiriye ibirori byo gushyingirwa k'umusore ndetse n'umukobwa.

Uburyo bwiza bwo kugura umuriro, ufata telefone yawe ugakanda kode yabugenewe noneho bakaguha mesaje aho ugenda ukandika imibare muri konteri ya kashipawa n'uko umuriro ugahita uza.

Inzu iriho amabati atukura, ni inzu iri ahirengeye ikaba yitegeye imisozi, hejuru y'inzu hari umurasire w'amashanyarazi uzana amashanyarazi mu nzu kugira ngo bacane amatara.

Hari kubakwa urugomero rw'akataraboneka, aho ruzajya rutanga amashanyarazi ku batuye Intara y'Amajyaruguru, akaba ari urugomero runini cyane rutaruzura, baracyagerageza kurwubaka ariko abarwubaka bagiye kurya.

Amapoto henshi cyane ahererekanya insinga aho yambuka imisozi, ipoto rimwe ririho abantu batanu mu gihe irindi ririho abana batatu, irindi rikaba nta muntu uriho abo bantu bose bakaba bari kuzirikaho insinga.

Ni imisozi miremire iriho amaterasi y'indinganire, iriho ibihingwa bitandukanye. Hakuno hakaba hashinze ipoto rinini cyane ry'amashanyarazi, aho ari ipoto rinyuzwaho insinga zambukiranya umuriro, ziwujyana mu bice bya kure.

Mu bijyanye n'amashanyarazi ahahagaze mu nzu irimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibikoreshwa mu gukopa no gukupura umuriro. Afite n'akandi kantu kagaragaza imibare gafite insinga ebyiri umutuku n'urw'umukara.

Abagabo n'abagore bakora mu kigo cy'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro, bakaba bari gukurura urusinga hasi kugira ngo babashe kugeza umuriro ku baturage.

Umugabo ukora mu bijyanye n'amashanyarazi. Ari mu nzu irimo ibikoresho byinshi by'amashanyarazi, aho bakupira ndetse bakanakupurira umuriro. Afite udutsinga tubiri ak'umukara n'ak'umutuku, aho ari kugenda adukoza ahantu agira ngo arebe ahapfuye.

Abantu batatu. Bose bambaye amajiri atukura ndetse na makasike y'umutuku. Buriye ipoto rinini mu gihe umwe ari kuzirika insinga asa n'uwacuramye cyane, undi umwe arahagaze, undi akaba yicaye bose bamurebera batari kumufasha.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru ndetse hakaba hari ibirahure. Iziritseho akagozi gatukura bisa naho bataratangira kuyikoreramo. Ku mbuga hari amabuye y'amagaraviye ndetse hakurya hakaba hari n'ibindi byuma bitandukanye.

Rirerire cyane nk'ipironi rikaba ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, aho rishinze mu kibaya rikaba ritwara umuriro uturuka mu gace ujya mu kandi gace ka kure.

Ipoto rirerire cyane, iriho insinga nyinshi cyane, rikaba ari ipoto risangiza umuriro, mu bice bya kure uhere uhereye aho urugomero ruri.

Amapoto abiri ateganye, hariho taransifo, akaba afasheho insinga z'imiyoboro migari, zitwara umuriro w'amashanyarazi. Hakaba hariho n'izindi nsinga zigenda zisangiza umuriro mu baturage.

Ibikorwa remezo byubatswe na leta. Akaba ari sitade nziza cyane, ikibuga kirimo umucaca, hakaba hari n'intebe abafana bicaramo, hakaba hari n'ahasakariye, hicara abantu bishyuye menshi.

Ibikorwaremezo bitandukanye byubakwa na Leta. Hari ikiraro kinini cyane gihuza imisozi ibiri, aho hari gucaho abantu bashinzwe umutekano babasirikari, bava ku musozi umwe bajya ku wundi.

Abantu benshi cyane bari kwambukira ku kiraro kiza gikomeye cyubatswe n'ibyuma, kikaba giteye irangi ry'icyatsi. Kikaba ari ikiraro cyubatswe na leta kugira ngo cyoroshe ubuhahirane bw'abatuye uduce twombi.

Inzu nziza cyane iriho irangi ry'ubururu, ikaba isakaje amabati y'icyatsi. Imbere hari imboga ngari, aho iyo nzu ifite ibaraza rinini cyane ryicayemo abantu, hakaba haparitsemo na moto.

Ahantu bari kubaka inyubako ya leta nibwo bakiyitangira bakaba barashinze ibiti bitondetse bigaragara nk'aho ari ho ibikuta bizanyura, hariho abantu bari kubaka bambaye amajile ndetse n'abandi batayambaye.

Inyubako nziza cyane ya leta. Ikaba iteye amarangi y'ubururu ndetse isakaje amabati y'ubururu. Ifite ibaraza riteretseho intebe, hirya yaho hakaba hari n'ikigega gifata amazi y'imvura aturuka kuri iyo nzu.

Abanyonzi babiri, uw'imbere nta kintu ahetse, mu gihe uw'inyuma ahetse ibicuruzwa. Bari kwambuka ku kiraro cy'ibyuma ariko akaba ari ikiraro gishaje, aho mo hagati cyacitsemo kabiri uruhande rumwe.

Inyubako nziza cyane ya leta. Iritaruye, ikaba ari igorofa igeretse rimwe. Hirya yayo hakaba hari indi nzu, nayo yubatse kimwe, aho ifite imbuga ngari cyane, izo nzu zikazajya zitangirwamo serivise z'ubuyobozi.

Inyubako nziza cyane ya leta, inyubako y'igorofa, igeretse kabiri, isakaje amabati y'ubururu, iruhande hakaba hari izindi nyubako nyinshi, imbere hari umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ufite n'amarembo, abantu banyuramo bagiye muri icyo kigo.

Inzu nziza cyane yubatswe ku nkunga ya leta, ni inzu y'ubuhunikiro, yubakisheje ibiti ariko ikaba ikikijwe n'amabati y'ubururu ndetse inasakajwe amabati, akaba ari inzu izajya ihunikwamo imyaka y'abaturage.

Ni ikiraro kinini cyane cyubatswe ku nkunga ya leta. Akaba ari umunsi bagitashye ku mugaragaro aho abaturage n'abayobozi baturutse impande zose, bakaba baje kwishimira iki gikorwa.

Inyubako nziza ya Leta ni igorofa igeretse rimwe, ikaba isakaje amabati y'ubururu. Imbere yaho hari ikibuga kinini cyane giparitsemo imodoka ebyiri, hari n'abantu batandukanye baje gushaka serivisi z'ubuyobozi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku nzu y'umuturanyi wabo aho baje kumusura kugira ngo barebe ibyishimo afite kuko ni inzu yubakiwe na leta, ikaba ari inzu ifite amabati y'ubururu ndetse iteye n'irange ry'ubururu.

Ni ku marembo y'ikibuga gikinirwamo umukino wa basiketi. Hari n'amashuri abanza, aho abantu batandukanye cyangwa se ibigo by'amashuri bindi biza gukinira iyo biri mu marushanwa.

Inzu ntoya y'umudugudu iteye igipande, isakaje amabati ashaje, ikaba irimo inzugi zikozwe mu biti ziteye irangi ry'ubururu, imbere hari ibendera ry'u Rwanda ndetse hirya y'inzu hakaba haparitse imodoka.

Abagabo, abagore n'abana baturutse impande zose, bakaba baje mu nama. Aho bicaye neza mu ntebe z'umweru, imbere yabo hakaba hari umugabo w'umupolisi uri kubasobanurira icyatumye batumizwa kuri uyu munsi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye biganjemo abakora mu nzego z'ubuyobozi, bahuriye hamwe aho baje guha umuturage inka, mu buryo bwo kumufasha kugira ngo yiteze imbere ndetse anazamure bagenzi be.

Umunsi w'akababaro, aho umuntu ukora muri serivise za leta yitabye Imana, nuko inshuti ze zikaba zaje kumusezeraho zitwaje indabo, ku ruhande hari Umupolisi n'Umusirikare, inyuma yaho hakaba hari abandi bantu.

Abantu benshi cyane, biganjemo abayobozi mu nzego zikomeye, hakaba harimo umuporisi umwe, ndetse n'abasirikari bivanze n'abaturageba. Habaye igikorwa cyo guca urubanza aho bari kurenganura abantu babiri barenganyijwe.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko, umwe afite telefone nto ya matushe, undi yambaye ikasike, abandi benshi nta ngofero bambaye. Bateraniye hamwe, ahabereye urubanza ku mugaragaro, aho hari umupolisi, umusirikari, ndetse n'abandi bakora mu nzego z'umutekano.

Abantu benshi cyane bizihiwe biganjemo abirabura kuko harimo n'abazungu bake, bari kubyina babyinira mu nzu yubakishije amatafari y'impunyu nyuma y'uko bari bamaze kurenganurwa karengane bari baragiriwe.

Abantu benshi cyane, bitabiriye ibirori aho bari baje gushinjura umuntu wabo warenganyijwe ngo bamuhe ubutabera, hari ibidara bitatu bisa naho byicayemo abayobozi bakomeye, mu gihe rubanda rugufi bahagaze ku izuba.

Abaturage batandukanye, harimo abagore bagera kuri batandatu ndetse abandi n'abagabo. Bicaye ku ntebe bamwe barambitse ibikapu hasi, mu gihe abagabo muri bo bamwe bafite inkoni zabo. Baricaye aho bategereje ubutabera ndetse no kugira ngo barenganurwe.

Ni umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'Umunyafurika. Aho abaturage baturutse impande zose baje kumva impanuro z'abayobozi ndetse hakaba hari umuyobozi uri kubaganiriza. Aho insanganyamatsiko y'uyu munsi ari ukuvuga ngo uburezi kuri bose.

Abatuye umudugudu bateraniye hamwe, aho bakiriye umushyitsi mukuru w'imena, akaba ari umupolisi witwa Rwakayiro. Ari kubasobanurira uburyo bwiza bazajya birindiramo umutekano, udasabye imbaraga nyinshi za leta.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe. Aho baje kureba umuyobozi ukomeye cyane. Bamwe bicaye mu gisharagati navuga ko ari abayobozi bakomeye, mu gihe rubanda rugufi bicaye hanze hadasakariye ariko hakaba hari ibiti bibiri byo kubarinda izuba.

Umuhanda munini cyane ubisikaniramo ibinyabiziga bitagoranye, harimo umugabo uri gusunika igare, rihetse ibintu byinshi cyane. Iruhande rwe hari undi muntu, uri gutambuka mu nzira y'abanyamaguru, aho yigendeye imbere, akaba atari kumufasha gusunika igare.

Ni mu kibuga kinini cyane bisa n'aho ari muri gare, hari abaturage bicaye mu kazu gasakariye bategereje imodoka, ako kazu kakaba gasakaje amabati y'icyatsi ndetse imbere y'aho hakaba hari umusore uhagaze.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru hirya y'umuhanda nanone hakaba akantu ka gasima kanditseho amagambo nka na makumyabiri na kane hasi hakaba handitseho ngo ka a ga mirongo ine n'ikenda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara. Gisobanura ko ukomeje imbere hari ikoni rigaruka, kikaba kiri ku muhanda unyuramo ibinyabiziga.

Abantu benshi cyane, ni abaturage bahuriye mu murima bafite amasuka abari guhinga, hagati yabo harimo umusirikare, bigaragaza ko inzego z'umutekano zifasha abaturage mu mirimo ya buri munsi.

Abantu batandukanye. Bahuriye hamwe, aho baje kuganira ku buryo bwiza bwo kunoza umutekano wabo, muri bo hari n'umusirikari. Bahuriye mu busitani bumwe, burimo umucaca, indabo, ndetse n'ibiti byiza cyane.

Abantu benshi cyane biyemeje gufashanya, bahuriye hamwe n'amasuka, aho baje guhingira umwe muri bo, mu buryo bwo kugurizanya kuko bagenda bahingira umwe, undi munsi bakajya ku wundi gutyo gutyo.

Ni umunsi mukuru wahariwe abashinzwe umutekano. Hakaba harimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abaturage, aho bahagaze mu gisharagati bari gukoma amashyi bishimye. Imbere hari umugore uri kubabyinira imbyino gakondo z'umuco nyarwanda.

Abantu benshi cyane biganjemo abaturage, bahuriye hamwe ku munsi w'umuganda aho bari gutsibura umugende, muri abo abantu hakaba harimo n'abakora mu nzego z'umutekano, harimo abadaso, abapolisi ndetse n'abasirikare.

Mu gihe cy'ijoro, hari inzu nini cyane, iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye, mu nzu harimo abantu batatu, babagabo bakaba bahagaze bari kuganira.

Umurima urimo ibyatsi birebire ndetse n'ibiti muri rusange. Harimo umugabo w'umusirikari wambaye imyenda impuzankano y'abasirikare ndetse n'uturindantoki, aho ari kumwe n'umwana muto w'umuhungu, bakaba bari guhinga.

Urupapuro ruriho urutonde rw'amakipe n'uburyo yagiye akina ndetse uko imikino yarangiye. Hari Karangazi yatsinze Mukama bibiri kimwe, hakaba Musheri yatsinze Kiyombe igitego kimwe ku busa, hari n'andi makipe atandukanye.

Abakinnyi bane babiri bakina mu ikipe imwe, abandi babiri nabo bagakina mu yindi, bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga, aho ku ruhande hari umukingo uriho irangi ry'umuhondo ndetse nta bafana bahari.

Ni muri sitade ahicaye abayobozi bakomeye baje kureba umukino wahuje ibihugu byombi. Bakaba bicaye batuje, hepfo yaho hakaba hari abandi bana babiri b'abakobwa, na bo baje kureba umupira.

Abakobwa babiri bakina imikino y'umupira w'amaguru. Umwe yambaye imyenda, ubwo ni ikabutura ndetse n'umupira bisa n'ubururu, undi akaba yambaye ikabutura n'umupira bijya kuba icyatsi kijimye cyane. Bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga bonyine ari babiri.

Abagabo, bane. Babiri bakina mu ikipe imwe, hoko bambaye, imyenda isa y'umuhondo, mugihe abandi nabo bambaye imyenda y'ubururu. Bari mu kibuga, aho bari gukina umupira w'amaguru.

Abasore, bakora imyitozo ngororamubiri, bakina umupira w'amaguru. Bari gutembera mu kibuga kirimo ubwatsi burebure, bisa naho bari gukina. Hirya yabo hakaba hari amazu, nkaho ikibuga gituranye n'amazu, y'abaturage.

Abana batatu, umwe yambaye ibirenge ndetse n'ikabutura mu gihe undi yambaye inkweto ndetse n'ikabutura, bose baka bambaye imipira, hirya yabo hari undi mwana wambaye bodaboda ndetse akaba yambaye n'ipantaro aho bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga bonyine ari batatu.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira utukura, ari muri sitade aho ari kumwe n'umugabo we wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati bakaba bari gukina umupira w'amaguru.

Abantu benshi cyane baturutse impande zose z'Igihugu. Bahuriye hamwe bambaye imyenda bakoresha imyitozo ngororamubiri, aho ari ku munsi wahariwe gukora imyitozo ngororamubiri. Bakaba bari kuyikorera hamwe, imbere hari umugabo uri kubereka uburyo bwo kuyikora.

Ni inyubako nziza cyane. Akaba ari muri sitade hicaye abafana bishyuye menshi, aho bicaye ahasakariye, bahagurutse abenshi muri bo bari gufana, bisa naho umukino uri kuhabera wabashimishije cyane.

Abantu babiri ni abakinnyi, bambaye imyenda bakinisha umupira w'amaguru. Umwe yambaye imyenda y'umuhondo, undi yambaye imyenda y'ubururu yanditseho nimero kabiri, bakaba bari gukina mu kibuga, aho bakina mu makipe atandukanye.

Umugabo wambaye imyenda akoresha imyitozo ngororamubiri. Ni ikabutura ndetse n'umupira, biri mu ibara ry'ubururu, umupira ukaba wanditseho umubare kane. Uyu mugabo ari gukina umupira w'amaguru muri sitade wenyine.

Umugabo ukora ibintu by'ubumaji. Ari gutamira umuriro yifashishije ifoke, bisa naho na wo ari umwitozo, aho ari mu myiyerekano yo gutsindira ibihembo.

Abakinnyi b'abana, bambaye imyenda itandukanye kuko bakinira amakipe atandukanye, bari gukina umupira w'amaguru, aho ku ruhande hari abandi bantu baje ku bafana.

Ni mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, abantu bose baryamye hasi, mu gihe undi umwe ari kugenda abanyuranyuramo areba neza niba buri muntu ari gukora ibyo yamusabye.

Abantu barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda bifashisha bakina, bakaba bari ku ruhande rwa sitade bisa naho itarimo umucaca mwinshi, bari gukora imyitozo mu gihe bitegura umukino kuko haje n'abafana.

Abantu batuye mu cyaro. Bari gutembera mu muhanda aho ari umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru gusa kuko wangiritse cyane, ibinyabiziga nka moto cyangwa imodoka bikaba bitabona uko bihanyura neza.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave bisa naho ari bwo bakiyubaka itaramara igihe kirekire kuko hariho itaka rigiye ryivanzeho ku ruhande.

Ni umuhanda mwiza cyane, ukaba uriho amapave y'ubwoko bubiri, usa n'aho ari inzira yabagenze, hamwe hakaba haca ibinyabiziga hari amapave mashya, ahandi hari amapave yanduye hakaba haca abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto iri kurenga. Ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, mu gihe hepfo y'umuhanda hari imikindo n'umucaca, hirya yaho hakaba haparitse imodoka nyinshi abantu bakoresha mu kwiga gutwara imodoka.

Akayira gatoya cyane kanyura hagati y'imirima ihinzemo imyaka, kakaba ari akayira kanyurwamo n'abagenzi batuye muri aka gace gusa kuko kadakwiramo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bugenzi nk'ibinyabiziga by'imodoka ndetse na moto.

Mu midugudu itandukanye mu byaro, haba hari imihanda yangiritse cyane, aho usanga umuntu ari gutambuka aberereka, ashaka guca ku ruhande hakimeze neza.

Ni umuhanda kaburimbo urambuye cyane, hagati hari imirongo y'umweru igiye icyemo kabiri, ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, hari umugore uri kuyigendamo akaba ahetse igikapu cy'umukara.